Umugornome yambaye uturindantoki, ikiganza kimwe afashemo igihingwa kikiri mu gihoho, ikindi kiganza afashemo umuti ari kugenda ashyira ku tubabi tw'icyo gihingwa kugira ngo awurinde indwara.

Icyumba kinini kirimo agakoresho gatunganyije neza gakoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi kariho ipamba ikoreshwa mu buryo bwo guhanagura igisebe cyangwa se ikindi gikomere waba wagize.

Amafi ni inyamaswa zororerwa mu mazi izi nyamaswa ziribwa n'abantu mu buryo bwo kurya inyama. Izi nyamaswa ushobora kuzororera mu migezi itandukanye cyangwa se ugacukura ibizenga ukayoboramo amazi, zitungwa n'ibintu bitandukanye harimo n'amahurunguru y'inkwavu.

Abagabo bane, harimo batatu bambaye hejuru, undi umwe utambaye, bafashe inshundura irimo amafi menshi barobye mu kiyaga, abagabo babiri muri bo bambaye ingofero, abandi babiri ntazo bambaye.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ubuhinzi buhingwa mu kibaya cyangwa se ahandi hantu habugenewe, abasaruzi bacyo bambaye ibitebo mu ijosi aho bagenda bajugunyamo icyayi basaruye.

Abantu bishimye banezerewe cyane bari gusarura icyayi, bishimiye umusaruro w'icyayi cyabo kandi bakomeje n'intego y'ubwo buhinzi, aba bakozi bambaye neza, bafite n'utuzigo ndetse n'imifuka bagenda bashiramo icyayi basaruye.

Igihingwa cy'icyayi, ni igihingwa gihingwa mu misozi ndetse no mu bibaya, iki gihingwa, ni igihingwa ngandurabukungu, abasaruzi bacyo, ni abakozi baba barishyize hamwe, bagakorera mu matsinda kugirango ngo barusheho kwiteza imbere.

Umuhinzi w'igihingwa cya Kawa yikoreye umufuka urimo umusaruro w'ikawa, aranezerewe, ikawa ze zifite imbuto nyinshi zitukuye ndetse n'izindi zidatukuye neza.

Umusaruro w'ikawa, urasarurwa ukajyanwa, gutunganywa hanyuma ukavamo imbuto bakazumisha, zigasebwamo ifu ikoreshwa mu cyayi. Iyi kawa ni igihingwa ngandurabukungu cy'u Rwanda.

Umuntu uri gusarura igihingwa cy'ikawa agenda asoroma imbuto zatukuye z'ikawa, ikawa ifatanye n'izindi mbuto zidatukuye ariko izo mbuto zo ntiziri gusarurwa.

Umugore unezerewe cyane, ufite mu biganza byombi umusaruro w'icyayi, icyayi n'igihingwa ngandurabukungu, ndetse gikoreshwa mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu Rwanda, gihingwa mu misozi ndetse n'ibibaya.

Umugore n'umugabo baranezerewe bari mu murima uhinzwemo igihingwa cy'icyayi. Icyayi ni igihingwa cy'inganurabukungu cyane cyane aho cyoherezwa mu mahanga, kikazana amadovize.

Igihingwa cy'ikawa ni igihingwa gihingwa ahantu hatandukanye harimo ahantu hateguwe haba mu misozi ndetse no mu bibaya, iki gihingwa cy'ikawa ni igihingwa cyera cyane igihe cyahinzwe mu gihe gikwiye kandi kikitabwaho, kiri mu bihingwa nzamurabukungu kandi ni igihingwa gikundwa cyane.

Icupa rinini ry'umweru ripfundikije umupfundikizo w'icyatsi, riteretse ku meza maremare. Harimo umuti wifashishwa mu guhabwa amatungo ndetse si ryo ryonyine impande yaho hari n'indi miti itandukanye ivura amatungo.

Udukombe dutandukanye, turimo imiti ivura amatungo, utu dukombe tumwene dutoya, ibindi ni bininini byisumbuyeho, udukombe dusa umukara, udusu umukara dufite imipfundikizo y'umuhondo, utundi dusa umweru, dufite imipfundikizo y'igitaka hasi.

Imifuka ipakiyemo ibiryo by'amatungo ipima ibiro bibiri, buri mufuka wanditseho ibiro bibiri, iyi mifuka ifite ibara ry'umuhondo ndetse ririho akabara k'icyatsi n'iy'imituku nayo iriho iryo bara ry'icyatsi.

Icyumba kinini kiririmo amakarito atandukanye, aho amakarito arimo imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo, ayo makarito amwe asa igitakazi andi asa n'umweru, aya makarito kandi aracurikiranye ntabwo atondetse ku murongo.

Akayira gatoya, kari ahantu hadatuwe, gakikijwe n'ibyatsi bitandukanye, karimo abagenzi benshi, umugore ukenyeye igitenge, wambaye agashati keza kabere ababyeyi, afite isuka.

Inka ziganjemo amabara y'umukara n'umweru, zifite amaherena ku matwi yombi, zigaragaza ko ari inka za kijyambere, inka zisa neza zisa n'izabonye ikigabu kinshi.

Umuceri ni igihingwa gihingwa ahantu h'ikibaya, hari amazi menshi kuva hatangira guterwa kugeza igihesaruriwe. Umuceri kandi ntabwo ihingwa mu buryo bw'indambure bagenda bacamo udutarasi udutarasi kugira ngo hazabone uburyo hagomororerwamo amazi.

Imboga za dodo ni imboga zimera ahantu hatandukanye hari ubutaka bufite ifumbire. Imboga za dodo, igihe cy'izuba zishobora kuvomererwa zigakomeza zigakura, ntabwo zijya zitinya izuba cyane. Imboga za dodo kandi, ni imboga zifasha cyane mu kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni ubuhinzi bukorerwa ahantu heza kandi hateguwe, ubu buhinzi bw'ibinyomoro butangira ikinyomoro bakinaza kigakura kugera aho kiba gishobora gutanga umusaruro, ubuhinzi bw'ibinyomoro bwitabwaho kandi igihe izuba rivuye ukavomerera.

Inyanya nyinshi zitukuye, zisutse uruhande rumwe ndetse ziri kumwe n'imboga, nyinshi zitandukanye, imiteja n'ibitunguru, bibumbiye hamwe, bikoze agatsiko.

Ubuhinzi bw'imboga buhinze mu kibaya kinini, bufite amababi menshi atohagiye kandi asa neza. Ubuhinzi ni ubuhinzi bufasha abantu mu kugandura ingo ndetse no kugabanya imirire mibi, kuko aya mababi araribwa ndetse agira na vitamini.

Ishyamba rinini ririmo ibyatsi bitandukanye ariko kandi hubatsemo n'inzu za kinyarwanda, izo nzu zirimo ziratungukamo umwotsi, zibamo abantu ariko kandi inyuma yaho hariho umusozi munini uteyeho ibiti, urimo uriho n'amaterasi y'indinganire.

Ishyamba rigizwe n'ibimera bitandukanye, aho rigizwe n'ibyatsi byo hasi, insina ndetse n'ibiti. Ishyamba kandi ni kimwe mu bidufasha kubona imvura igihe risigasiwe rigafatwa neza.

Ishyamba rinini rifite ibiti byinshi bitoshye kandi byinshi bikuze, ishyamba ritagira abarituye, ritagira imihanda, ritagira utuyira dutoya mbese ryiberamo inyamanswa.

Ishyamba rinini ry'inzitane ririmo ibiti byinshi bitandukanye kandi bitoshye, ishyamba hagati hanyuzemo umuhanda, umwegitakazi undi uri gukorwamo kaburimbo n'imashini zabugenewe, ku muhanda hariho amatara maremare amurika igihe haje umwijima.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari mu muhanda wa kaburimbo, higanjemo urubyiruko, inyuma yabo hariho ishyamba rinini ryiganjemo ibiti bikiri bitoya, ibi biti biratohagiye kandi bifite umuvuduko w'ubukure.

Amashyamba ari hagati y'imirima itandukanye, ihinzwemo icyayi kandi iyo mirima iri mu gice cy'ikibaya. Aya mashyamba afite ibiti byinshi bitoshye kandi bimeze neza. Imirima y'icyayi irimo abantu batandukanye bari gusarura ndetse n'abari kugikorera neza.

Abantu bari mu isoko batatu, bamwe bagura abandi bagurisha umusaruro w'inyanya, inyanya nini nziza zitukuye ziri mu bwoko bw'inyanya zihingwa zishingiriwe.

Ubuhinzi bw'imboga bwitwa shu furere umugabo aratanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuhinzi bw'izi mboga, kandi yagiye no ku murima kugira ngo atange amakuru yizewe yitabiriwe n'abantu batandukanye higanjemo abagore.

Igihingwa cya avoka z'imbamburire, ni igihingwa kigira voka zerera hasi, kandi zikera ari ntoya ugereranije n'izindi, izi avoka zera ari nyinshi, ziraryoha, kandi ntabwo zikunda kuma ushobora no kuyitera mu gipangu mu rugo iwawe.

Umubyeyi w'umugore ukennyeye igitenge mu nda, wambaye ikanzu, ndetse n'ikindi gitambaro, afite indobo y'umutuku mu ntoki, ari kuvomerera imboga zihinzwe mu buryo bw'amatrasi, n'imboga zerera hasi ndetse zifashishwa mu kugabanya imirire mibi.

Ibidotori, ni ibiryo bitekwa mu buryo bw'imboga, zera ku bigozi birandaranda nk'uruyuzi. Ibidodori byo, birurira ku buryo iyo gikura bacyubakira, kikagenda kirandaranda.

Igipangu kinini kirimo imyembe ndetse n'imodoka. Umwembe ni igiti kinini cyera imbuto zitukuruza igihe zeze, izi mbuto zivura indwara nyinshi zirimo amaso, umwijima ndetse n'inyama zo mu nda.

Ipapayi ni igihingwa cyerera hejuru, aho ikigabo gihura n'ikigore kugira ngo bizane imbuto. Iki gihingwa iyo cyeze kiratukuza, kandi ni igihingwa gifasha abantu barwaye mu nda kuba bakira, cyangwa se bakoroherezwa.

Uburyo bwo kuvomerera igihingwa cy'imboga cyitwa shufurere, aho umuyoboro w'amazi uba unyuze mu butaka noneho impombo zizamuka zikagenda zivomerera mu duce dutandukanye turimo izo mboga.

Umuhinzi w'ibitunguru, afite isuka, arunamye ari kuvomerera ibitunguru akoresheje amazi yagomewe mu kizenga, agenda afata agasahani asanzagiza amazi, mu butunguru akagenda, agera hirya no hino acengera mu butaka.

Umugabo ufite ibikoresho bibiri byabugenewe bikoreshwa mu kuvomerera imyaka byitwa rozwari, umugabo aravomerera igihingwa cyitwa amashu aho avomeresha izo rozwari zombi icyarimwe.

Ubuhinzi bw'ibigori bikiri bitoya buhinzwe mu gice cy'ikibaya. Ubuhinzi buravomererwa bukavomererwa n'imashini zabugenewe zivomererera amazi aturutse mu kirere, harimo abahinzi bane abagabo batatu n'umugore umwe.

Ahantu hari imisozi myinshi cyane migari, iteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye ibi bihingwa byifashishwa cyane cyane mu isomo rya jewogarafi.

Imisozi miremire n'imigufi igizwe n'amaterasi y'indinganire, aya materasi ahinzwemo ibihingwa bitandukanye bigaragara nk'icyayi, hateyemo ibiti ku mpande ndetse n'ibindi biti bitandukanye.

Imisozi miremire ifite ibyatsi bitandukanye ariko kandi higanjemo n'ibiti bizamuka bikagera hejuru, ifite imisozi iriho amaterasi y'indinganire kandi ibyo byatsi ndetse n'ibyo biti bidufasha mu gukurura imvura.

Ubutaka bunini bw'umusozi buriho ibiti binini ndetse n'ibihingwa byo hasi, buriho amatarasi y'indinganire, ahingwamo imyaka ikura ndetse n'iyerera hasi. Amaterasi y'inganire acibwa ku butaka bwo mu misozi.

Ikibaya kinini cyane, ku mpande yaho gikikijwe n'imisozi. Aho imisozi irimo ibiti byinshi bitandukanye, ari ibikura bikagira hejuru ndetse n'ibikura bikaguma hasi ku butaka.

Ikibaya kigizwe n'ibihingwa bitandukanye harimo: insina, imboga, ibyatsi byo hasi ndetse n'ibyatsi bikura; ikibaya kirimo umugezi ugabanyijemo ikibaya cyo hakurya ndetse n'icyo hakuno.

Imirima yo mu misozi iterimo imyaka itandukanye, harimo urutoki, ibijumba ndetse n'ibindi, harimo intabire zitaragira icyo ziterwamo, ndetse hariho n'inzu nyinshi zitandukanye zubakishije amatafari asanzwe, zisakaje amategure.

Ibiraro bya kijyambere byororewemo inka za kijyambere, bifite isuku kandi byubatse ku buryo butangaje, ibi biraro byubatse hejuru mu kirere, birasakaye kandi bifite imyanya myinshi itandukanye ituma inka zihumeka neza.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere zitera amagi, zororerwa mu rugo mu byumba bitandukanye, zirya ibiryo bitandukanye, ntabwo ari kimwe n'izi inyarwanda zijya gutora hanze, iyo zikeneye ibyatsi zirahirirwa zikabizanirwa mu rugo.

Ubworozi bw'ihene za kijyambere, izi hene ziri mu kinani zirarisha izi hene ziganjemo amabara y'umweru zifite amahembe magufi higanjemo ihene z'ishashi, imfizi zirimo ni nkeya cyane.

Inka ni itungo ryo mu rugo ryoroherwa mu kiraro, yiganjemo amabara y'umukara n'umweru iri kunywa amazi, umugabo ahagaze imbere yayo ayifatiye ibase y'amazi, uwo mugabo afite inkoni, yambaye bote, ipantaro n'umupira ndetse n'ingofero.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere cyane cyane izitera amagi aho zibana ari nyinshi zikagirirwa isuku, zigashyirirwamo indobo zipfundikiye ariko zicuritse kugira ngo zibone amazi yo kunywa kandi zikaba mu byiciro zimwe hasi izindi hejuru.

Ihene nyinshi zitandukanye ziri mu kinani, kirimo ibyatsi bitandukanye ariko bisa n'ibiryoheye amatungo. Ihene zimwe ziri imbere, izindi ziri inyuma. Ihene kandi ziganjemo amabara atandukanye umweru ndetse n'ikigina.

Umugabo wambaye imyambaro y'ubururu hasi no hejuru na bote agenzura ubworozi bw'inkoko za kizungu, bworowe mu buryo bwa kijyambere aho zigenda ziba mu bice bitandukanye zimwe ziba hasi izindi hejuru izindi hejuru.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ahagaze imbere y'ibiraro birimo inka za kizungu, inka za kizungu ni inka zororerwa mu biraro byiza bya kijyambere ziba zifite inkomoko zitari izinyarwanda.

Icyumba kinini kirimo inkoko nyinshi zitandukanye za kijyambere kandi zitera amagi. Icyumba kirimo utudobo ducuritse turiho amazi agaburirwa izo nkoko.

Ubworozi bw'inkwavu za kijyambere, zoroye mu buryo bwo kugira ngo zigirirwe isuku. Zororerwa hejuru kugira ngo zidakandagira hasi zikarwara indwara y'ubujaja. Zirira mu tuntu tumeze nk'udukono tw'igitakazi.

Ingurube ni inyamaswa zororoka vuba ku buryo mu gihe cy'umwaka ishobora kuba yororotse ifite izindi nyinshi zayikomotseho, habaho ingurube za kizungu ndetse n'inyarwanda iyo woroye ingurube za kizungu nizo zitanga umusaruro kurusha inyarwanda, kandi ingurube iyo zigiriye isuku ntabwo zitera umwanda nk'uko bamwe babikeka.

Umusaruro w'ibigori byinshi kandi byumye byanitse hasi bishishuyeho amahu yose, bifite ibara rimwe ry'umweru ibigori bimwe na bimwe biracyafite amahu ariko makeya cyane.

Imifuka y'umweru irimo ibitaka bitandukanye bikoreshwa mu bijyanye n'ubuhinzi, ibi bitaka bituma ibihingwa bikura vuba vuba, byunganira ifumbire iba yaragiye muri ubwo butaka, iyo bibaye byiza wirinda gushyiramo ifumbire ryinshi kugira ngo bitazahihara ugasarura ubusa.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'amatungo, bari mu cyumba kinini gikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'amatungo. Bambaye udupfukantoki kandi bari gukorera ubushakashatsi ku itungo aho baribaga.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'umweru hasi no hejuru n'ingofero, ari mu cyumba kinini kirimo amabuwate atwarwamo amata afunitse mu mashashi atandukanye, agaragara nk'aho ari amata y'Inyange cyangwa se aya mukamira.

Inka za kinyarwanda ni inka zigira amahembe maremare arebana ateze neza nk'amaboko y'ababyinnyi, izi nka zitwa Inyambo, inka ziterwa imiti itandukanye kugira ngo zivurwe zitaza kurwara indwara zitandukanye.

Umugezi munini cyane urimo inyamaswa z'agasozi zitwa imvubu, ebyiri ebyiri muri zo zirahagararanye, imwe ihagaze yonyine. Uyu mugezi ukikijwe n'ishyamba ry'inzitane aho utabona aho unyura, uramutse ugiye kunyuramo muri muntu.

Mu nyamaswa z'agasozi, habamo inyamaswa zitandukanye, harimo inzovu, imvubu, intare ndetse n'ingwe, imvubu iba ari ndende cyane ugereranije n'inzovu, imvubu kandi igira amahembe imbere manini cyane, muri zo intare n'umwami wazo.

Inyamaswa y'agasozi iri kumwe n'ibyana byayo bine aho bibiri biryamye imbere ahagana ku gice cy'umutwe, ikindi kikaba kiyiryamye inyuma ahagana ku gice cy'umurizo, ikindi kiryamye hejuru ku kibuye kiri inyuma y'aho ziryamye.

Inyage eshatu ziri mu mazi y'ikiyaga, aho zigenda zibiramo, zinazamuka, inyange ni inyamaswa z'ishyamba, ziba mu mazi, cyane cyane ay'ibiyaga, ay'inyanja, ndetse n'andi menshi meza kandi akoraniye hamwe.

Ingwe ifite amabara atandukanye iryamye mu ishyamba; ayo mabara umukara n'umweru irareba nkayishonje. Iyi ngwe iryamye mu byatsi byumye.

Inzovu ni inyamaswa nini z'agasozi ziteye ubwoba, zigiye kwitwara nk'inka ariko si inka, inzovu igira umutozo munini cyane imbere ndetse n'amahembe abiri ajya guhura ari ahagana hasi, izi nzovu zigira abantu benshi baza kuzisura mu byanyazibamo.

Inkende ni inyamaswa y'ishyamba, aho ishobora kurira ibiti byinshi bitandukanye. Irya ibintu bitandukanye harimo imbuto, ibyatsi byo mu ishyamba, ndetse n'ibihingwa. Inkende ni inyamaswa itangaje kuko igira imyitwarire imeze nk'iyabantu.

Ingwe n'inyamaswa yo mu gasozi, igira amabara atandukanye ariko akenshi haba hivanzemo umukara, n'iyo haba harimo irindi bara, ingwe kandi igira utwiso dutoya, udutwi dutoya mbese iba igiye kwitwara nk'agapusi.

Inyamaswa z'urujya n'urusa, zifite amabara y'igitagazi, umukara ndetse n'umweru, ziri mu ishyamba, ishyamba ririmo umuhanda wa kaburimbo, zirirukanka zerekeza umujyo umwe.